Iyi shusho iragaragaza igikorwa cy'uburobyi. Iragaragaza abarobyi batandukanye bari mu bwato kandi biragaragara ko bari kuroba cyangwa se bari mu gikorwa cy'uburobyi.

Ifoto igaragaza ibigori, ibigori bihinze biri mu murima, ni ukuvuga ngi ni ibigori bitarasarurwa mbese ibigori bitarera neza ariko kandi ibigori byenda kwera.

Iyi foto iragaragaza imboga z'ubwoko butandukanye, yaba: amashu, inyanya, puwavuro, puwaro n'ibindi bitandukanye.